Umumama wicaye wambaye amarinete, wambaye agapira keza k'umuhondo ndetse n'agashati k'amabara atandukanye, ufite mikorofone mu ntoki bigaragara ko ari ijambo ari kugeza ku bamukurikiye, imbere ye hakaba hari ibirahuri byiza cyane by'amazi.

Sitidiyo yicayemo abantu batatu, abagore babiri, umwe wambaye ikote ry'umukara, undi yambaye ikote ry'umutuku, umugabo wicaye imbere ya mikoro ndetse akaba bigaragara ko hari ibintu bari kureba.

Abantu bicaye ahantu hasukuye heza cyane ubona ko hasi hari mu mabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo intebe bicayeho ni intebe zigezweho ndetse n'amezaza agezweho muri make abo bantu nabo barakeye imbere yabo hari uducupa turimo amazi ya nili.

Umukobwa mwiza cyane, wicaye wambaye ishati y'umukara n'umweru ndetse akaba yambaye n'umushumi mu ijosi w'umweru, imbere ye hakaba hateretse icupa ry'amazi rya Nile, mbese uyu mukobwa akaba yicaye mu nama yitabiriwe n'abantu batandukanye.

sale nini cyane ikorerwamo inama ubungubu hakaba hateraniye inama iyobowe n'umumama wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'agapira k'icyatsi akaba ayoboye abantu bambaye udupira tw'ubururu ndetse n'amapantaro y'icyatsi imbere yabo hakaba hateretse amacupa y'amazi ya nile.

Icyumba cyiza cyane gisirimutse gikorerwamo inama, kirimo udutebe duke cyane tw'umweru, icyo cyumba na cyo ubwacyo ni umuhondo usa na zahabu, hejuru hari amatara akeye cyane ndetse n'igisenge gikeye cyane, abakirimo nabo barakeyeye cyane imbere yabo hari uducupa turimo amazi.

Salle nini cyane ikorerwamo inama. Iteraniyemo abantu benshi batandukanye biganjemo urubyiruko kandi bishimye, harimo abenshi bambaye udupira tw'ubururu bicaye ku ntebe z'umutuku.

Icyumba bakoreramo inama icyumba gishobora kwakira abantu benshi batandukanye. Muri icyo cyumba harimo abantu bambaye imipira y'ubururu, imipira y'icyatsi ndetse n'imihondo. Harimo n'undi wambaye umupira w'icyatsi gihiye uhagaze..

Icyumba cyiza cyane gisukuye kiberamo inama harimo intebe zitukura hicayeho abantu batandukanye, abagore n'abagabo, muri abo bantu bicaye, harimo abagabo babiri bahagaze ndetse n'umugore umwe uhagaze.

Icyapa cy'umukara n'umweru, cyanditsemo amagambo Repubulika y'u Rwanda, komisiyo y'Igihugu ishinzwe abakozi ba leta, inama nyunguranabitekerezo n'inzego mu butegetsi bwite bwa leta, icyo cyapa kikaba kiri mu rwego, mu ibara ry'ubururu.

Icyapa kinini cyane kirimo ibara ry'ubururu, akabara k'umuhondo, ak'icyatsi, cyanditsemo amagambo y'impine RGB, bisobanura ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere, harimo amagambo agira ati imiyoborere twifuza umuturage ku isonga.

Abantu bahugiye mu gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga nka za telefone zizwi nka tabuleti. Ubona ko uyu mukobwa ahuze cyane yambaye agakomo k'umuhondo, agapira keza k'ubururu ndetse n'imisatsi ye isutse neza.

Icyapa cy'ubururu kirimo ishusho cy'ikiziga cy'umweru, iryo shusho ryanditsemo amagambo avuga ngo: "wifi y'ubuntu mu imbere", hakikijwe n'ifurusheti ndetse n'icyuma.

Abagabo batatu bambaye udupira tw'ubururu, babiri bambaye amapantaro y'imikara, uri hagati yambaye ipantaro ya kaki, bahagaze imbere y'umunara, uri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, impande zabo hakaba hari ibikapu bibiri by'umukara ndetse urebye hirya yabo hakaba hari akazu kari imbere y'umunara muremure.

Ikibanza cyubatsemo umunara ukikijwe n'udukuta twa giriyaje, harimo agasanduku kamwe kabamo peterori umunara ukoresha igihe umuriro w'amashanyarazi ugiye, imbere yaho hari umuntu wambaye ikote ry'ubururu ndetse ririmo akabara k'umweru.

Iri ni itangazo rya leta rigena iminsi y'ikiruhuko rusange, ibikubiye muri iri tangazo ni ibijyanye n'ibiruhuko by'iminsi mikuru nka Noheli ndetse n'Ubunanani, na none hari n'indi minsi y'inyongera nko ku munsi ukurikiye noheli ndetse n'umunsi ukurikira ubunani nk'ibiruhuko by'inyongera.

Iki ni icyapa kinini kigaragaza serivisi z'irembo. Kikaba kiri mu cyumba kirimo mudasobwa nyinshi zitandukanye. Icyo cyumba cyubatswe neza, kikaba kiri mu marangi y'umuhondo, ndetse hakaba hari n'umuntu, uri gukoresha izi serivise z'irembo.

Iri ni ipironi rikozwe mu buryo bw'urwego ritanga umuriro w'amashanyarazi, hasi hari taransifo ijyana amashanyarazi mu dukaritsiye dutandukanye, hakurya hari utuzu twubatse ariko tugaragara nkaho dushaje.

Umuhanda mwiza cyane urimo urujya n'uruza rw'abantu. Uyu muhanda uriho amapoto afite amatara acanira umuhanda .Hari nanone n'ipiloni rirerire rigeza umuriro mu duce twinshi dutandukanye. Hari n'umusozi uteyeho ibyatsi ndetse n'ibiti.

Igikoresho cy'amashanyarazi, kiriho amagambo agusaba kwitonda mu ndimi zitandukanye, cyanditse mu cyongereza, igifaransa, igishinwa, ikiyapani n'izindi ndimi.

Iyi ni inyubako ituma abantu bashobora kugenda izuba ntiribagereho cyane by'indengakamere ndetse no mu gihe cy'imvura ikaba itabanyagira. Uburyo yubatse, urabona ko yubatse mu buryo bw'amashuri, ku buryo bufasha uhagana wese.

Ahantu hatangirwa serivisi za leta zitandukanye, hari inzu yubatswe neza isakajwe ibati ry'ubururu, hari umugore wicaye utegereje serivisi ndetse n'abandi bakaba bicaye nka we bazitegereje.

Inyubako nziza cyane, ifite amakaro, agakorodoru keza karimo intebe abantu baje gushaka serivisi bicaraho mu gihe bategereje ko bahabwa izo serivisi, iyo nyubako yubatswe mu buryo bugezweho.

Imbangukiragutabara ebyiri ziparitse ahantu heza cyane hisanzuye, inyuma yazo hari uruzitiro rw'ibati ry'ubururu, impande yazo hari imodoka isanzwe y'umukara, inyuma yazo hari inyubako nziza cyane y'umweru bigaragara nkaho ari ibitaro.

Ahantu hubatse neza hatangirwa serivisi za leta zitandukanye, hari abantu b'ingeri zose nk'ababyeyi, abagore n'abagabo, bicaye bategereje guhabwa serivisi baje gushaka.

Igipangu cy'igororero cya Rwamagana ubona ko ari kirekire, hanze yacyo hari inzu yubakishije amabati atukura ndetse ubona ko kiri ahantu heza, kuko gikigijwe n'amashyamba.

Uyu ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, imbere ye hari akameza arambikaho amadokima ndetse n'izindi nyandiko, ako kameza kariho mikorofone imufasha kugeza ijwi ku bamukurikiye, iruhande rwe hari idarapo y'u Rwanda, ahagaze mu cyumba kiberamo inama.

Abagabo batatu, umwe yambaye ikote riri mu ibara ry'ikirere cy'ubururu, bambaye agapfukamunwa k'umweru, abandi bambaye amakanzu arimo utubara tw'umutuku ndetse n'udupfukamunwa tw'umukara, bose bafite uduswitikesi ndetse n'udukaramu.

Umupolisi w'umuzungu wambaye iniforume ya gipolisi, ufashe umugabo ukuze w'umwirabura wambaye ikoti ryiza cyane, akaba yamwambitse amapingu, abo bantu bombi bambaye amarinete.

Uru ni urwandiko rugaragaza ingingo igena itegeko rya repubulika y'u Rwanda. Uru rwandiko rwanditse mu ndimi eshatu ikinyarwanda, icyongereza, igifaransa rukaba rugizwe n'ingingo zitandukanye.

Inama yahuje abaturage ndetse n'abayobozi babo, bicaye hasi basasa inzobe munsi y'igiti kinini cyane cy'inganzamarumbo, ibibazo uko bigaragara birakemurwa neza, kandi buri wese atange igitekerezo.

Umugabo ukuze cyane, wambaye ingofero imwe ikunda kwambarwa n'abasaza, yambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati y'amakarokaro, uwo mugabo yicaye inyuma ye hari umwenda uriho ikirangantego.

Urupapuro rugaragaza igazeti nshya ya Leta, yo kuwa makumyabiri, Nzeri, ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Iyi nyandiko ikaba yanditse mu ndimi eshatu. Ururimi rwa mbere ni ikinyarwanda, urwa kabiri ni icyongereza, urwa gatatu ni igifaransa.

Gereza y'Akarere ka Rubavu, ikaba yanditseho amagambo agaragaza ibirango byayo, mu ndimi z'amahanga nk'Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda, iyo gereza ikaba yubakishije impunyu ndetse ikaba ifite irange ry'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo wubatse neza, harimo imodoka ebyiri, moto ndetse n'indi modoka y'abapolisi, imodoka y'abapolisi iri mu mabara y'umukara n'umweru, uwo muhanda ukaba ukikijwe n'amapoto ariho amatara amurikira umuhanda iyo bwije ndetse hakaba hari n'ibiti bisa neza.

Icyumba kiri kuberamo inama ubona ko cyubatse ku buryo buri wese yicara areba ibiri kubera imbere. Harimo amatara meza atuma urumuri rugaragara muri icyo cyumba, hakaba harimo na sikirini ndetse n'abayoboye iyo nama.

Urupapuro rugaragaza amazina y'umukandida Kagame Paul ndetse n'umubare w'amajwi umukandida yabonye. Ikiganza kiri kugenda kinyuza agakoni mu mubare w'amajwi.

Umugore n'umugabo bishimye, bombi bambaye amarinete ndetse n'imyenda yirabura, mu kiganza cyabo bafite ifoto nini cyane, igaragaza ko hari umushinga mushya wafunguwe.

Igishushanyo kigaragaza inyubako ndende zigize umujyi wa Kigali, muri icyo gishushanyo harimo urwandiko rugaragaza imbonerahamwe, ivuga ngo uburyo u Rwanda rwagiye rwitwara ku rwego mpuzamahanga.

Iki ni icyumba kiberamo inama. Urabona ko habaye inama ndetse buri wese wayitabiriye akaba yishimye. Imbere hicaye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse hagati ye n'umugore hakaba hari umugabo wambaye ishati nziza cyane, na we ubona ko ari mukuru.

Abaturage ubona ko bafite akanyamuneza, bamanitse hejuru impapuro zigaragaza amafoto y'umuntu bashyigikiye. Urabona ko bishimye cyane, abo baturage higanjemo abana n'abamama ndetse n'abapapa.

Imodoka nini nziza cyane itwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, iri mu bwoko bwa bisi, ikaba iri mu mabara y'ubururu, umukara n'umweru, uko bigaragara iraparitse cyane ku murongo munini w'izindi modoka.

Umuhanda mwiza cyane utekanye harimo moto ndetse n'imodoka zitandukanye, imodoka zirimo amabara atukura, icyatsi ndetse n'umweru, gusa urabona ko buri wese afite gahunda ye yihariye.

Imodoka ya kwasiteri y'umweru itwara abagenzi, iri mu muhanda, umuhanda urimo utunogo duke duke, hakurya hari imodoka y'itoyota ndetse hari n'ibiti birebire bitanga umwuka.

Ikamyo ipakira ibikoresho by'ubwubatsi ndetse n'ibindi bitandukanye, iyi kamyo ikaba itukura ndetse bigaragara ko igikomeye, iyi kamyo ikaba ikikijwe n'ibiti bitanga umwuka mwiza, ikaba iri kugenda mu muhanda mwiza cyane ukomeye.

Ikamyo itwara ibintu byiganjemo ibisukika, iri mu muhanda urimo utunogo dukeya, ukikijwe n'ipoto ririho itara ricanira uwo muhanda ndetse hakaba hari n'ibiti bitanga umwuka ku muhanda.

Umuhanda urimo igare, ipikipiki itwaye abantu babiri, imodoka y'idayihatsu itwaye imizigo, ikaba itwikije amahema abiri iry'ubururu bukeye ndetse n'ubururu bwijimye.

Bisi itwara abagenzi iri mu mabara y'ubururu, umukara n'umweru iparitse muri gare hari amatagisi, mbese biragaragara nk'aho butangiye kwira kuko amatara yo ku muhanda yatangiye gucanwa.

Umuhanda urimo abantu babiri bari kugenda, umwe ari hakurya, undi ari hakuno, undi ari inyuma atwaye igare, uri inyuma akurikiranye n'ikamyo y'icyatsi ndetse n'umukara nziza cyane.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza mu buryo bugeretse, hakaba hari ateni y'isahani ya Kanari, imbere y'ayo mashuri hari akantu kameze nk'umuhanda ndetse n'intebe, hari ikibuga cya basiketi, kiba kirimo abahungu batatu basa n'abari gukinamo agapira.

Icyapa cyo ku muhanda kirimo uruziga rw'umukara ruvunaguye mu ibara ry'umweru riri mu ishusho ya mpande eshatu, rikikijwe n'ibara ry'umutuku, inyuma y'icyo cyapa haragaragara igiti bigaragara ko amashami yacyo yumye ndetse hakaba hagaragara ikimeze nk'ipoto.

Umuhanda mwiza cyane hakurya hari ubusitani bubereye ijisho, harimo ibiti byiza cyane, hakurya nanone hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru, icyo cyapa kirimo uturanga amerekezo dutatu turi mu ibara ritukura.

Ibyapa bibiri, kimwe cy'imweru cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza n'urw'igifaransa ndetse n'urw'ikinyarwanda. Iki cyapa cyanditseho Repubulika ya Uganda. N'amagambo agira ati urugendo ruhire, hakaba harimo umuzungukazi uteze amaboko.

Icyapa gishyirwa ku muhanda, kigaragaza ko imbere muri metero ijana, ari aho abanyamaguru bambukira ndetse hakaba hari n'icyo twita dodane mu ndimi z'amahanga, munsi yacyo hakaba haparitse igare.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, iri mu mabara y'umuhondo, umukara n'umweru, ku imbere yaho handitse ijambo momento hakaba hari abantu bambaye imyenda y'ubururu y'amasarubeti ikaba itangirwamo serivise za leta zitandukanye.

Inyubako yubatse ku buryo bw'amagorofa ikaba yubatse ahantu hatuje hitaruye umujyi, mu mbuga y'inyubako harimo ibihingwa nk'ibitoki ndetse n'ibindi bimera iyo nyubako ifite agapangu gafite umuryango w'ubururu.

Ahantu harambitse umutaka wa Airtel, hari imodoka ziri kugenda munsi, ibyeyerekezo bitandukanye, hari abantu bahagaze ndetse hakaba hari n'inyubako igeretse kabiri, iri mu mabara y'umweru ndetse n'amatafari ahiye.

Igipangu cyiza cyane giheherereye i Kanombe, ni igipangu cyiza gikikijwe n'uturabo twiza ndetse n'urukuta rwubatse neza, iki gipangu kikaba cyubakishije amatafari ahiye ndetse kikaba kifitemo n'utugiriyaje, iki gipangu hari n'igiti cyiza cy'umukindo gitanga amafu meza cyane.

Umuhanda w'igitaka ariko ukoze neza nta nta byondo birimo, nta byatsi birimo, nta binogo birimo haparitse amamodoka abiri ndetse n'inzu nziza cyane ebyiri, impande zayo hari ibiti mbese umwuka uraboneka neza.

Icyapa kigaragaza agace k'ubucuruzi mu Mujyi wa Kigali. Cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi agira ati: "Prime Economic Zone". Inyuma yacyo haparitse amakamyo maremare yifashishwa mu bucuruzi.

Imihanda myiza cyane, irimo amapikipiki abiri, ndetse inagaragaza ibimenyetso by'aho abanyamaguru bambukira, impande y'iyo mihanda hari ibiti ndetse n'imitako itakwa mu nkengero z'umuhanda.

Umuhanda urimo imodoka, amapikipiki ndetse hakaba bigaragara ko imodoka y'ikamyo itukura irimo ifite ikibazo, uyu muhanda ukaba uri hagati mu biti ndetse ukaba ukikijwe n'amapave, amamodoka na yo akaba ari kujya mu byerekezo bitandukanye.

Uyu ni umuhanda mwiza ugezweho twita kaburimbo, aha ngaha ni mu masangano y'umuhanda, urabona hakurya hari amazu yubatswe ku buryo bugezweho, hari imodoka eshatu ziri mu bwoko butandukanye, hari abantu bari kwambuka umuhanda, hari n'abari kugenda, urabona ko harimo n'ipoto ririmo ya matara yo ku muhanda.

Amasangano y'imihanda, iyi mihanda ni ibiri, iri mu byerekezo bitandukanye, harimo abagenzi bari mu modoka, kuri moto ndetse harimo kwasiteri n'idayihatsu, imodoka itwara abagenzi iri mu cyerekezo kimanuka.

Imodoka ziri mu muhanda zijya mu byerekezo bitandukanye, umuhanda urimo abantu benshi nk'abanyonzi, abamotari ndetse n'abanyamaguru, uko bigaragara abanyonzi ntabwo babonye abagenzi benshi kuko bategereje bate... abo batwara.